Ni mu mujyi wa Kigali, nk'uko bigaragara hari imodoka ya polisi ndetse inyuma yaho, hari umugore n'umugabo barimo kugenda bisanzwe mu muhanda, mu mujyi wa Kigali.

Mu cyumba cy'itora aho umuturage aje gutora imbere hari umwe mu bashinzwe icyumba cy'itora arimo kureba ko abikora neza.

Icyapa kigaragaza ahari bubere amatora. Ahari hateganyijwe kubera amatora ku rwego rw'Akarere cyangwa se ku rwego rw'Umurenge.

Imodoka irimo gutambuka mu muhanda ndetse hakaba n'umugabo utwaye igare, imbere y'ahantu hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Abakozi ba leta bashoboka kuba ari mu ibarura rusange ry'abaturage nkuko bigaragara bambaye amajire bakaba bakusanyije abaturage kugira ngo bagire amakuru batanga.

Moto ebyiri imbere yazo hakaba hari imodoka ndetse hakaba hari n'indi moto iri kuza izisanga zirimo zinyura mu muhanda wa Kigali, ahamenyerewe nko ku Kinamba.